Abantu babiri bahekanye ku igare, bari kugenda mu muhanda, bafite ibikapu bahetse kandi ni hafi y'umuhanda ufite umusozi muremure, uteweho ibiti byinshi nkaho ari ikimenyetso cy'ubuhinzi kiri aho hantu.

Abasore bambaye impuzankano z'amakipe bari gukina mu kibuga kigari ndetse uwambaye umuhondo niwe ufite umupira ari kwirukanka ajya gutsinda ku rindi zamu ndetse ubona ko bishimye cyane.